Intore ntiganya， intore yishakira ibisubizo. Kuba intore ni ibintu bijyanye no kuba umuntu ubereye u Rwanda， kandi utagambanira igihugu. Amahame y'intore rero， agomba gukurikizwa nk'uko repuburika y'u Rwanda ibiteganya.

Ikigo cy'amashuri kigaragara ko cyanditseho amabwiriza agenga icyo kigo. Iyo nzu, icyo kigo cyanditseho amagambo yandikishijwe amabara y'ubururu n'umukara. Imbere y'ayo mashuri hanitseho imyenda y 'umweru.

Abagabo bane bahagaze imbere y'inzu y'amatafari ahiye. Abagabo bambaye imyenda itandukanye harimo n'umugabo umwe wambaye itaburiya y'umweru yikoze mu mifuka agaragara nk'umuyobozi bigaragara ko bari kwifotozanya.

Inzu igaragara ko ari ikigo cy'amashuri. Ku muryango umwe w'iyo nzu, hanitseho amataburiya abarimu bambara bari kwigisha. Impande y'ishuri hariho icyapa kiriho amabwiriza y'ikigo.

Abasore babiri bari ku mashini bambaye ibisarubeti bisa na kaki, bari ku mashini, bari kuyikoramo iby'ikoranabuhanga.

Abafundi bari kubaka amatafari ahiye. Bambaye ibisarubeti by'ubururu, bambaye kasike z'umuhondo, harimo n'abambaye amasarubeti y'umutuku, n'abambaye amajire y'umuhondo.

Abanyeshuri bigaragara ko bambaye iniforume y'amakabutura y'ubururu n'imipira y'ubururu. Abambaye n'amashati y'umweru, bigaragara ko bari gucurira bahagaze ku nyubako y'amashuri yabo, igaragara ko ari inzu igeretse kabiri.

Umwarimu uri kwigisha abanyeshuri gukora inkweto . Abanyeshuri bambaye amataburiya y' ubururu . Umwarimu yambaye ipantaro yumukara, n'ishati y'umweru. Ari kuberekera uko inkweto zigomba kuringanira

Abanyeshuri bicaye mu ntebe zabo bari kureba umwarimu ibyo ari kwandika ku kibaho. Abanyeshuri bambaye amashati y'umweru abandi bambaye imipira y'ubudodo y'ubururu, mwarimu yambaye itaburiya y'umweru, abanyeshuri bambaye n'ubupfukamunwa bafite na makayi bari kwandikamo.

Abasore n'abakobwa bigaragara ko bari kwesitara imashini zishobora kuba ari izibeta isombe, cyangwa se za dinamo zo gukora ibintu runaka.

Ibyarahani byinshi bigaragara ko biri mu ishuri bigiramo kudoda. Imbere ku kibaho handitseho amagambo babigisha abaza kwigiramo kudoda.

Abanyeshuri bigaragara ko bari mushuri, abarimu babo bari kubabaza ibibazo by'ibyo babigishije, bahagurukije umunyeshuri umwe ari gusubiza ibibazo, abarimu umwe yambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru undi yambaye itaburiya, abanyeshuri bambaye iniforome ya kaki hasi n'amashati y'umweru.

Abasore n'abakobwa bigaragara ko bari kwiga ibintu bya mekanike, bari kureba ko bashobora kubikora kubera ko ari byo biga. Bambaye ibisarubeti bigiye kuba umukara cyangwa se ubururu buhiye cyane.

Umwarimu ari gutambagira mu banyeshuri. Ari kuberekera muri mashini uko bakwiriye kuyikoresha. Umwarimu yambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru. Abanyeshuri bambaye imyenda, ishati y'ubururu n'ijipo y'umukara.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri. Bashushanyije ibishushanyo barabibirindura kugira ngo babyereke abantu babibone. Abo banyeshuri bambaye iniforume y'ubururu, bari mu ishuri rifite ibirahuri by'ubururu. Bafite n'amakaramu mu ntoki. Imbere yabo hariho...

Abantu benshi bagaragara nk'aba veterineri bambaye amataburiya, bambaye n'ubupfukamunwa, bigaragara ko baje kuvura inka bayiziritse, umuveterineri umwe w'umugore ari kuyipima uburwayi baje kuyivura, abandi bari mu bindi inyuma y'uwo mugore.

Umugabo uri kubaza afite isarumara n' urubaho, yambaye isarubeti y'ubururu, yambaye n' ingofero y'umutuku.

Abakobwa n'abahungu bigaragara ko bari mu bya mekanike. Bakaba imbere yabo hari ibyuma bimeze nk'amamashini. Bambaye ibisarubeti by'ubururu birimo amabara y'umuhondo.

Abanyeshuri bambaye amajipo ya kaki n'amashati y'ubururu, bafite amakayi y'umweruru, hirya y'aho hari amashuri afite amabati y'ubururu, hari n'ibendera rifite amabara y'ubururu.

Umugabo ugaragara ko ari kwesitara ibyuma, yambaye igisurubeti cy'ubururu, yambaye na kasike y'umweru, imbere ye hariho ipensi ari gufungisha ibyo byuma.

Abafundi barimo abagabo n'abagore bagaragara ko bafashe nivo n'ikamba, bari gupima inyubako bagiye kubaka, bambaye ibisarubeti by'ubururu, bambaye n'ibikasike by'umutuku n'iby'umuhondo.

Umuganga ufite umuti n'urushinge, bigaragara ko agiye gutera umuti amatungo. Yambaye ga, yambaye itaburiya y'umweru, yambaye n'amarinete. Abaganga bavura amatungo n'abantu, badufitiye akamaro muri rusange mu bijyanye n'ubuzima.

Abanyeshuri bagaragara ko bari mu ishuri bari kwandika. Bambaye iniforume y'amakabutura y'umutuku n'amashati y'umweru, bambaye amasogisi y'umweru n'inkweto z'umukara. Bigaragara ko ari abanyeshuri benshi cyane, bigaragara ko bose bari mu gikorwa cyo kwandika.

Abanyeshuri bicaye mu ntebe barikwigira kuri mashini. Mwarimu wabo ari kwandika ku kibaho yambaye itaburiya y'umweru, yambaye n'ipantaro y'igitaka. Abanyeshuri bambaye amashati y'umweru n'amajipo ya kaki.

Abanyeshuri bari kurya ifunguro ririmo imineke, umuceri n'imboga , bambaye imyenda irimo amapantaro y'ubururu n'amashati y'umweru.

Abasore babiri bari gukora ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga ry'amashanyarazi. Hirya yaho hariho umukobwa wambaye ipantaro irimo imirongo n'umupira w'umweru. Aba basore bambaye imipira y'ubururu n'amapantaro y'igitaka.

Abasore n'abakobwa hamwe n'abagabo n'abagore bakora mu ishyamba ry'ibirunga, bahagaze ku murongo umwe abandi barasutamye, bifotoreje ku gishushanyo gikoze nk'Ingagi cyo mu Kinigi.

Ahantu hagaragara ko ari muri atoriye abadozi badodera, harimo ibyarahani byinshi abagore bafite metero bambaye metero mu izosi zo gupima abantu kugira ngo bambare ibibakwiye.

Umugabo wambaye isurubeti y'ubururu n'ikasike y'ubururu. Bigaragara ko ari kwensitara ibyuma byo kugira ngo abaze. Bigaragara ko impande ye hariho intebe, impande ye hakaba hegetseho umukoropesho.

Abantu bagaragara ko ari abaganga bakaba bicaye aho basuzumira indwara. Bari kurebera muri laboratwari, bambaye amataburiya y'umweru n'ingofero z'umweru, bari gupima indwara z'abantu.

Salo abagore bagiye batandukanye, bari gusuka abagore imisatsi. Abo bagore bambaye amakanzu, arimo amabara y'umutuku, n'ay'umwe, n'ay'umukara. Hirya yaho hariho kasike bashyira mu mitwe y'abakiriya.

Abantu bagaragara nkaho ari abarimu bari kumwe na diregiteri hamwe n'abanyeshuri, diregiteri agaragara ko ari kugabura, kugaburira abo banyeshuri, hamwe nabo barimu bambaye imipira y'ubururu n'amajipo y'umukara, diregiteri yambaye ikoti ry'ubururu n'ishati y'ubururu. Amafunguro ari imbere yabo ni umuceri, imboga n'ibikombe biteretse imbere yabo.

Abanyeshuri bagaragara ko bari kuza kwiga gusiga inzara. N'abari kubasiga bari kwigisha abaje kwiga, kuko bigaragara ko bambaye iniforume y'imipira y'ubururu, hamwe n'amajipo atandukanye.

Abantu bambaye ibisarubeti bisa n'umuhondo bigaragara ko bari muri gitoronike, bakaba bambaye n'ibikasike by'umutuku, hamwe n'iby'umuhondo. Bamwe bakaba bari gukora ibijyanye n'amashanyarazi, abandi bari kubitegereza ibyo bari gukora.

Abasore batanu bigaragara ko bari kwiga ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga rino ryo kwensitara amashanyarazi, bambaye ibisarubeti by'ubururu n'amasike y'umweru. Bigaragara ko bari kwiga ibintu bijyanye n'amashanyarazi n'ibintu byo kuyensitara, bafite n'ibindi bintu biri ku munwa byo kubarinda imyuka mibi.

Abanyeshuri bigaragara ko bari kwiga, bigaragara ko bari no kwandika bafite amakayi bari kwandikamo, bambaye amashati y'umutuku bicaye no mu ntebe z'imbaho, inyuma yaho hari urukuta rw'amatafari ahiye.

Umunyeshuri wize ubukorikori n'ubugeni, ari kwerekana umushinga we yakoze uzamuteza imbere mu mibereho ye.

Abanyeshuri bigaragara ko bari kumwe na mwarimu wabo, bigaragara ko bari kumuhereza imikoro yabahaye, ari kubakosora. Bunamye ku ntebe, niho ari kubakosorera imikoro mwarimu yabahaye.

Umufundi ugaragara ko ari gushyira amatafari kuri nivo, yambaye igisarubeti cy'ubururu, yambaye inkweto z'akazi, yambaye n'ikasike. Inyuma ye hari abakobwa n'abahungu bari bari kumureba ibyo ari gukora.

Umukobwa uri gusiga umuti w'inkweto ari wo witwa siraje. Izo nkweto zisa n'umukara. Uwo mukobwa yambaye igisurubeti cy'ubururu, inyuma ye hariyo abagabo bunamye ku meza babiri. Na bo bambaye ibisarubeti by'ubururu.

Abagore n'abakobwa bagaragara ko bari kuboha ibyibo, ubutete hamwe n'udupaniye, bigaragara ko bambaye imyenda itandukanye irimo amabara y'umutuku na y'umuhondo na y'umweru. Bari kubohesha inshinge bambaye na bodaboda z'icyatsi.

Ibyuma bigaragara ko bikoreshwa mu gufotora abantu cyangwa se ibintu. Hari ibyuma bibiri biri gufotora bifotora, hariho umugabo wicaye inyuma y'icyuma kimwe akaba yambaye agapfukamunwa, bigaragara ko ari gufotora.

Abanyeshuri bigaragara ko bicaye mu ntebe zo kwegamira z'umukara za kizungu, bigaragara ko imbere yabo hahagaze umwarimu wambaye ishati y'umukara. Imbere yabo hakaba hari televiziyo bari kureba cyangwa se bari kwigiraho. Bambaye iniforume ya kaki n'amashati y'umweru.

Abasore batatu bambaye amashati y'umweru n'amapantaro y'umukara. Umukobwa wambaye ishati y'umuhondo n'ipantaro y'umukara bakaba bari ku byuma byo gucuranga, ibyuma bikaba ari ibya kizungu bakaba bari kubyiga ku bicuranga bamwe bakaba bari kwiga uko babicuranga.

Abasore n'abakobwa bahagaze imbere y'ibyuma bya muzika bari kuririmba, hariho n'umukobwa uri gucuranga gitari, abakobwa bari kuririmba neza cyane bambara iniforume y'umweru n'umukara, bigaragara ko bazi muzika.